Amahugurwa atangwa n'inzobere mu bijyanye n'imirire myiza bari kwigisha abantu uburyo batera imboga uturima tw'igikoni, abo batoje nabo bakazajya kubyigisha abandi mu ngo zabo.

Kuri robine rusange y'abaturage, aho abaturage bajya kuvoma bakabona amazi mu buryo buboroheye, hari umwana waje kuhavoma aza kuvomera mu ndobo.

Kwa muganga hari ababyeyi bari kuzana abana babo bakabatera inkingo zagenewe abana, muganga ari kubikora mu buryo bwiza ku buryo abana batabigiriraho impungenge ndetse n'ababyeyi.

Umukecuru bigaragara yuko akuze atetse ku nkwi, guteka ku nkwi ni ibintu bya kera bigaragara aha ni mu myaka yo ha mbere mu Rwanda kuko ubu ngubu abenshi basigaye bakoresha amagaze ndetse n'amakara.

Utwuma twifashisha kwa muganga boza amenyo, harimo utwo bakubisha amenyo, utuyagarura ku murongo n'utundi dutandukanye, ubuvuzi bw'amenyo bwateye imbere mu gihugu cy'u Rwanda, ubu ngubu banakwambika ibyuma bigatuma amenyo asubira ku murongo.

Umukobwa mwiza cyane ufite uburoso mu ntoki bw'amenyo ari kwiborosa, afite imisatsi myiza yambaye n'agasengeri k'umweru, ni byiza kugira isuku yo mu kanwa cyane cyane uri umukobwa kuko mu kanwa hagaragaza n'ubwiza bw'umuntu.

Umusaza n'umukecuru bageze mu gihe k'izabukuru basheshe akanguhe ariko barishimiranye, umwe yishimiye undi afite kanyamuneza mu maso yuko yishimye n'undi akagaragaza urukundo mu maso.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, utekera hanze y'inzu, akoresha ibyakatsi mu cyimbo cy'inkwi, agatereka ku mashyiga. Bikamufasha kubona ibyo kurya by'umunsi, agakomeza akabaho neza muzima bwe.

Muri siporo rusange, hitabiriye urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukana mu ngeri zose, urubyiruko, abasheshakanguhe, abana ndetse bigaragaza ko buri wese agenda amenya umumaro wa siporo mu buryo bwo kwirinda indwara zitandukanye, diyabete, umuvuduko w'amaraso, n'izindi ndwara.

Tariki makumyabiri n' enye kugeza kuri makumyabiri n n' eshanu zu kwa gatandatu mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatanu hazaba ikiganiro kizabera muri Netherland kivuga ku mirire ndetse n'ubuzima.

Ibitaro byitiriwe umwami Faisal, izi ni inyubako ziri mu bitaro byitiriwe umwami Faisal. Haba isuku nyinshi rwose, uko bigaragara nta mwanda. Abarwayi bitaweho, uricaye ndetse n'abategereje bose urabona ko utarambiwe serivisi yabo.

Inyubako yo kwa muganga ifite ibyumba bigiye bitandukanye hakaba bari ikirango kigenda kiranga buri cyumba n'igikorerwamo, hari aho kuruhukira, aho gufatira ama X-ray examination, ndetse n'ibindi bintu byaba bikorewe kwa muganga bigiye byerekanwa kuri buri muryango w'icyumba.

Buriya gukora siporo uko zaba zingana kose urya nabi byagutera indwara kurusha ko wazireka, ni byiza gukora siporo imbaraga watakaje ukazigaruza kandi ukarya ibiryo bigiye bitandukanye by'intungamubiri.

Ikigo kizwi nka Croix Rouge gitanga ubufasha ku bantu bahuye n'ikibazo runaka cy'ubuzima, bagatanga ubutabazi bw'ibanze, bari kwigisha abandi uko batanga ubutabazi bw'ibanze bari kwigira ku muntu kugira ngo babyigireho, bajye babikora mu buzima busanzwe bafashe abandi.

Hano munzu bakoreramo siporo, hari umugabo waje gukorera siporo, ari gukora siporo zigororara umubiri wiwe, mu bice bitandukanye by'umubiri, bikamufasha kwirinda indwara zigiye zitandukanye nko kuba yarwara imitsi, kuba yarwara Diabete cyangwa akarwara Umuvuduko w'amaraso, gukora siporo ni byiza ku buzima bw'umuntu.

Mu nzu ikorerwamo siporo izwi nka gimu hari kuza abantu bagiye batandukanye bakerekwa ukuntu bakora siporo zagorora imibiri yabo, ndetse ikanabarinda indwara zigiye zitandukanye, harimo diyabete ndetse n'umuvuduko w'amaraso ndetse n'imitsi yabo, ikarambuka bakirinda za rubagimpande.

Ibyatsi bizwi ku izina ry'igikakarumba bifite umumaro munini mu kuvura bikoreshwa cyane mu gukora imiti ya gakondo, biteye ku buso bunini ahantu buri ni ahantu hagari bigaragara ko ari nka koperative yihurije hamwe igatera ibyo biti.

Agasekuru karimo imiti ya gakondo bari gusekura, imiti ya gakondo iravura rwose. Umuti wa gakondo uwunywa urwaye mu nda hagahita hakira, umutwe. N'indwara zitandukanye imiti gakondo iri.